Abantu benshi bambaye ibipiza ibara ry'ubururu bari imbere y'inzu y'umuhondo igeretse rimwe isakaje amabati y'umutuku, bitabiriye inama y'icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana.

Mu bitaro, hari umugabo uryamye ufite imfashagingo ku kuguru, akaba yasuwe n'abantu ari umuyobozi w'ubuzima Nsanzimanaba, haba ari kumwe n'abaforomo bambaye amataburiya y'umweru bari kumufasha.